Iki kimera cyo kigaragara nk'aho ari icy'ururabo rwiza cyane, rwo gutaka mu rugo, kandi hakaba hafite n'isura nziza y'icyatsi.

Aha ni mu gisagara, ndikubona iyi nivoka bateye iri mu gikenyeri, mu kigorigori. Aha havuye ibigori none se ko ndikubona ari ibigorigori n'avoka kandi voka itungaga ubuzima bwacu. Ibigori byo turabibeteshaga hakavamo ifu y'igikoma.

izi ni indabo . Urabona ko mu rugo nk'ino iwacu mu giturage, haba urugo rugize ngo biterere indabo kugira ngo urugo ruse neza. Nk'uko abanyamujyi bagira ubusitani, ubwo umuntu yaba yicaye akareba ubwiza butatse iwe, hameze neza, agakondora nta kibazo.

Ibidukikije ni byinshi, bigize urusobe rw'ibinyabuzima, mu rusobe rw'ibinyabuzima habonekamo, ibiti ndetse n'inyamaswa, ariko ibiti cyana cyane bitanga umwuka mwiza.

Ikidariya ni igiti gihingwa impande y'umurima kikavanwamo imishingiriro yo gushingira ibishyimbo, cyangwa se ubwatsi buribwa n'amatungo.

Igikakarubamba ni kimwe mu giti cy'ikinyarwanda kivanwamo imiti ikoreshwa mu buvuzi butandukanye bw'umubiri cyangwa se ku ruhu rw'umuntu.

Uruzitiro rukikijwe senyenge, iyo senyenge iteyeho n'indabo zitandukanye, cokora rumwe muri zo rwayanze indabo zisa n'iroza.

Uru rushobora kuba ari urugemwe rw'iki ? Rw'avoka cangwa rw'itabi, njewe ico mbona, ni uko rusa n'icatsi kigiye kuba nk'ibyo maze kubabwira.

Ikimera ni ikintu cyiza kizana umwuka aho abantu batuye kubera ko kiba cyifitemo umwuka mwiza n'abantu bakagihereza umwuka mubi bahumetse, cyo kikabaha umwiza.